Icyapa kiri hejuru y'umuhanda cyamamaza, ubwishingizi aho umukiliya wabo ashobora kujya yishyura amafaranga akazizishingirwa mu gihe ahuye n'ibibazo bitateguwe. Hasi hari imodoka z'ubwoko butandukanye z'amabara atandukanye umutuku, umukara n'umweru.

Icyapa cyamamaza umwishingizi kugira ngo abashe kubona abakiliya bamugana kugira ngo abishingire, hariho nimero ziwe, hakabaho n'ifoto y'abantu bari mu za bukuru bashobora kuba barishingiwe na we kugira ngo abashe kubamamariza ndetse yamamaza avuga ko ku myaka mirongo itatu n'itanu kuzamura yabafasha.

Icyapa cyamamaza ubwishingizi bwa radiyanti ndetse kiriho umugore n'umugabo bateruye umwana, hirya hari igare ry'umwana atwarwamo; ndetse hariho na nimero z'uburyo bagufasha ubahamagaye.

Icyapa cyamamaza ubwishingizi kugira ngo bashishikarize abaturage kugana ikigo cya sonarwa, kugira ngo bajye babona ubwishingizi ku bintu byabo igihe byagize ikibazo, ikigo kibishinzwe bishyuye kibishingire.

Icyapa cyo ku muhanda cyamamaza ubwisungane mu kwivuza.

Icyapa cyamamaza umwishingizi aho hariho nimero ndetse nurubuga wamusangaho kugirango abashe kukwizeza serivise nziza ndetse hariho na serivise yiteguye gutanga mugihe wamugannye.

Icyapa cyamamaza kiriho umukobwa witabye telefone ufite valize isa n'ubururu, umukobwa useka yambaye umupira usa n'umweru ndetse n'ijipo irimo uburongo, ndetse n'ishakoshi isa na shokora hariho nimero wabahamagaraho, ndetse n'insanganyamatsiko yo kwamamaza.

Icyapa cya logo y'ikigo gishinzwe ubwishingizi ndetse no kuba bafasha abakiriya babo kubishingira, ndetse bakishingira n'ibyabo, ni ikigo gifite intego igira iti sekiyuwa tumoro, sekiyuwa tumoro tude.

Abagabo batatu bahagaze, umwe yambaye umupira utukuye, afite icupa ry'amazi mu ntoki, yambaye n'isaha y'umukara, babiri bambaye imipira y'imyeru ndetse n'amakoboyi, bahagaze ku cyapa cy'ubwisungane mu Rwanda.

Icyapa gishushanyije, cyamamaza ubwishingizi mu kuba wakishingira imodoka yawe, kugira ngo igihe icyo ari cyo cyose imodoka yawe yaba yahuye n'ikibazo, cyangwa yagize impanuka runaka cyangwa se yahiye icyo kigo kizagufashe mu kuba wabona indi modoka cyangwa mukuba wajya mu kazi bitagombye ibintu byinshi.

Icyapa kishushanyije, cyamamaza ubwishingizi bwa radiyanti. Kivuga giti "tugeze mu gihe cy'imvura". Kisobanura neza uburyo ki ushobora kwishingira ibintu byawe. Hariho na nimero zitandukanye, zishobora kugufasha kubagana.

Apurikasiyo y'uburyo bwa banyi kubitsa kubikura ndetse n'izindi serivisi zose banyi itanga ku bakiriya bayo harimo nko kuba wagura amayinite, kuba wakwishyura inzu, kuba wakishyura ibintu bigiye bitandukanye.

Apulikasiyo ya banke ifasha umuntu uyikoresha kugira ngo abashe kubitsa, kohereza, ndetse no kumanajinga amafaranga yiwe akayakoresha muburyo bwanyabwo, bukwiye uburyo abyumva.

Urukuta rushobora gufasha urukoresha kohereza cyangwa se kwakira amafaranga bimworoheye ku buryo bitamusaba kuba hari amafaranga afite mu mufuka we ahubwo akoresha telefone we yohereza amafaranga ahantu kure hashoboka.

Urukuta rukwereka ko wageze muri banki ya enisibi eyi aho wafungura konti cyangwa ugahita winjira niba wari usanzwe ufite konti ugatangira kubona serivisi basanzwe batanga.

Urukuta rufasha urukoresha kugira ngo yishyure cyangwa yakire amafaranga bimworoheye bidasabye kuba afite ayo mu ntoki ahubwo agakoresha na terefone ye yohereza kuburyo yayaha n'umuntu uri kure.

Iduka rigurisha imyenda, ricuriza imyenda; amakote, imipita, amakabutura, ndatse harimo na maneke zamamaza imyenda yabo ndetse hasi harimo amakaro ku buryo uhatambuka aba abona ari byiza, ndetse hasukuye.

Imipira yashyizwe ku rubuga rwa fesibuku kugira ngo ibe yabona abaguzi, ni imipira, umwe w'icyatsi, undi urimo amabara ariko uri wiganjemo umutuku n'undi usa n'ivu ku ruhande rumwe ahandi hagiye hijimye.

Inzu ngari icuruza imyenda y'abagabo izwi nk'amakostime afite amabara atandukanye, harimo amabara y'umukara, ubururu, yiganje ndetse n'andi mabara atandukanye.

Iduka ryitwa Pride rigurisha imyenda itandukanye harimo imipira, amapantaro n'inkweto n'ibindi. Imbere umuryango urafunguye hariho n'inzira ishobora guhita ikuganishayo byoroshye ahantu hagaragara.

Imipira itatu icuruzwa ku rubuga rwa fesibuku. Umwe usa nk'umutuku urimo burongo busa nk'ubururu ndetse n'umweru, undi usa nk'icyatsi ufite ikora ry'ubururu ndetse n'undi usa nk'ivu ariko ufite ibara ry'umukara ku bindi bice bitandukanye.

Iduka ricuruza imyenda harimo imyenda itandukanye, harimo imyenda ya siporo, harimo n'imyenda yo kwambara bisanzwe iy'amabara atandukanye umutuku, umuhondo, ubururu, icyatsi n'iyindi...

Iduka ricuruza medinirwanda aho bacuruza udukomo ndetse n'urunigi ndetse n'ibindi biboshye bigiye bitandukanye by'imirimbo.

Umuzungu wambaye ishati ndetse n'umukandara, n'ipantaro isa umukara, afite imisatsi y'umukara tsiri, ari kumwe n'umwirabura wambaye ishati irimo imirongo y'umweru ndetse n'umukara, bari mu iduka rigurisha imyenda, barimo bagura.

Umugore wambaye umupira ndetse ni ijaketi, usutse ari mu nzu z'ubucuruzi arimo areba ku cyuma ibyo baguze cyangwa se yaguze uburyo binganamo n'ibiciro.

Umugore uri ku ruhande rw'ibumoso wambaye ikote ndetse wambaye na paji mu gatuza ke, usutse avugana n'undi ufite imyenda mu ntoki ze, imyenda itandukanye iriho na porotomanto w'umuzungu ufite imisatsi yazirikiye inyuma.

Imyenda imanitse kuri hanga, aho yamanitswe kugira ngo igaragaze, ubwiza bwayo ndetse n'ubuziranenge bwayo ndetse n'umwihariko wayo kugira ngo abaguzi babashe kuyigura.

Iduka ricuruza imyenda ndetse n'inkweto, higanjemo inkweto z'abagore ndetse n'imyenda y'abagore ndetse imyenda ifite amabara atandukanye haba imyenda y'imituku, ya shokora, ya move, y'icyatsi, y'umuhondo ndetse no ku nkweto ni uko.

Umugabo wambaye agapfukamunwa k'umukara, n'umupira w'umweru, n'ipantaro y'ikoboyi, ahagaze imbere y'imodoka y'umweru, iri mu bwoko bwa yundayi.

Ikigo kigurisha imodoka harimo imodoka itwara umuzigo yo mu bwoko bwa yundayi, hirya hari ibirahure byerekana y'uko iri ku isoko imbere ku meza ari imbere hariho icupa ry'amazi ndetse n'amadokima ndetse n'ikinyamakuru.

Inzu yubatse nk'uruganda yanditseho yundayi. Hari ubwapa butatu ak'umweru mo hagati y'utw'ubururu, twose twanditseho yundayi. Mu imbere mu gipangu harimo amamodoka atandukanye y'amabara atandukanye. Hirya ku rindi rembo hejuru handitseho ijambo work shop.

Imodoka ebyiri ziri mu bwoko bwa yundayi, ku gikuta cy'umweru hariho rogo ya yundayi ndetse hasi harimo amakaro asa neza aho imodoka ziri, bigaragara ko ari imodoka zirimo zigurishwa.

Abakobwa babiri bambaye amapantaro asa n'ubururu ndetse n'imipira isa n'umweru bambaye udupfukamunwa tw'umweru bafite imisatsi y'umukara, bahagaze imbere yimodoka ya yundayi isa n'umukara nshyashya ifite amashashi ku musego.

Icyapa kibaza niba witeguye kuba wagura imodoka, hariho nimero zo kuba wavugisha umuntu uyifite mu gihe wayishimye. Ni imodoka yo mu bwoko bwa yundayi imodoka nziza ndetse inyuma yayo hari ibiti byinshi.

Abasore batatu bafatanyije icyapa cya Akagera motozi, aho inyuma yaho hari imodoka ebyiri zitwara imizigo ziri mu bwoko bwa fuso ndetse bahagaze ahantu hapavomye umwe yambaye inkweto z'umweru undi iz'umukara undi yambaye inkweto zifunguye.

Abagabo babiri bafatanije icyapa cy'akagera motozi inyuma yaho hari ikamyo yo mu bwoko bwafuso nshya iparitse muri parikingi y'inyubako ya etage iri ruguru yayo.

Icyapa cyerekana ko hari imodoka zigurishwa ndetse hari na serivisi zisanzwe ku binyabiziga, ndetse hari no kugufasha kugukanikira imodoka n'izindi icyo cyapa kiriho nimero n'ahantu wabasanga, inyuma y'icyapa hari imodoka ya tagisi iparitsemo indani mu gipangu ndetse n'inyubako yubatse neza.

Abamansera babiri b'abazungu, bafatanyije icyapa, n'umugabo w'umwirabura, icyapa cy'Akagera motozi, hejuru y'inyubako na ho handitse Akagera motozi, hakikijwe n'imodoka zo muri iyo kampani. Imodoka nziza.

Umuntu ufite amafaranga mu ntoki ze ndetse n'imashini ya karikireta, arimo abara amafaranga ndetse ayakusanyiriza hamwe ku buryo aza gupakirwa akaba yahyikirizwa undi muntu.

Igiceri inyuma cyanditseho banki nasiyonari di Rwanda, igiceri cyakozwe mu gihumbi kimwe magana kenda mirongo irindwi na karindwi ndetse inyuma hariho urutoki.

Umugabo wirabura wambaye ishati irimo uburongo, ari kubara amafaranga yayapfunitse azirikaho imikoba ndetse n'impapuro amafaranga menshi, imbere ye hari imashini iyabara, ari kubara amafaranga.

Ibihumbi bitanu by'amanyarwanda, inoti i itukuye inyuma yayo ifite abakobwa bari kubyina imbyino gakondo, za kinyarwanda, ndetse imbere yayo ikaba ifite inyubako ya etaje igeretse.

Umugabo wambaye ikanzu isa na shokora yerurutse ariko afite akamashini kabara amafaranga ndetse imbere ye hari inote nyinshi z'amadorari zifunze mu buryo bwegeranye ku buryo ayo asoje kubara ahita ayazirikisha fimbo.

Intoki z'umuntu ufite amafaranga angana n'igihumbi mu ntoki ze ndetse ariho n'ibirango by'igihugu ku note. Ni amafaranga menshi uyabariye hamwe ashobora kuba yagera mu mafaranga menshi kuko ni inote z'igihumbi.

Umugabo ufite amafaranga mu ntoki kuruhande hari imashini ya karikireta ibara imibare ndetse kurundi ruhande hari amafaranga yamajije kubara azirikishije imikoba ihambira amafaranga.

Umugabo wambaye umupira usa n'umukara ndetse n'ipantaro isa n'ubururu afite igicuba ari gusuka amata mu kigunguru k'icyuma kimwegereye.

Amata ari mu ikarito ndetse n'andi ari hasi afunze mu dukopo twabugenewe ndetse n'andi ari mu tubido. Ndetse hirya hari firigo irimo amata ari gukonjeshwa kugira ngo abaza kuyanywa baze kuyanywa akonje ndetse ameze neza.

Firigo ikonjesha ibinyobwa ndetse n'ibindi bintu by'ubwoko bitandukanye iriho icyapa cyamamaza Mukamira amata meza ndetse ku ruhande hariho umuntu wambaye agakomo cyangwa se isaha.

Umugore wambaye igitenge wambaye ishati isa na move ndetse n'ijipo isa n'umukara afite terefone yashyize ku ugutwi ari guhamagara ndetse yaje muri kantine kurundi ruhande hari umugabo wambaye umupira usa n'umutuku ndetse yambaye n'ikabutura y'umukara ndetse n'ijage iteretse kumeza isa n'ubururu.

Umukozi ukora mu ruganda yambaye itaburiya y'uruganda Akorera rwa Mayange. Afite amatereyi agiye arimo amagi menshi ategura kugira ngo abe yagurishwa.

Amacupa ya yahurute ari muri firigo afite imipfundikizo isa n'umweru ndetse afite n'ibirango bisa na orange byamamaza iyo yahurute ndetse yashyizwe muri firigo kugirango uza kuyanywa aze kuba yayanywa akonje.

Ikirahure cy'amata giteretse ku meza. Hirya hari icupa ry'amazi, hirya y' icupa na ho hari terefone.

Apulikasiyo ifasha uyikoresha kugira ngo yishyure biri dijitali amafaranga bitamusabye kugendana kashi mu ntoki ku buryo ashobora kwishyura umuntu uwo ari we wese amafaranga bimworoheye batenegeranye mbese ni kashilesi.

Icyapa gishushanyije kiriho umugore ufite imisatsi y'umukara tsiri wambaye amarinete y'umukara ufite terefone mu ntoki ndetse yambaye n'ishati y'umweru yamamaza kopedu y'uko abakiriya bakwiye kuyigana.

Urukuta rw'irembo rugaragariza urukoresha ko yahageze ndetse rugaragaza serivisi biteguye kuba batanga ndetse n'uburyo ashobora gusohokamo cyangwa se uburyo ashobora kwinjira cyangwa uburyo ashobora kwiyandikisha niba aribwo bwa mbere ahageze.

Urubuga rufasha urukoresha kuba yabika amafaranga ndetse akanayakontorora, akaba yayakoresha mu buryo yifuje. Ni urubuga rukoze neza ku buryo rukwereka amafaranga usigajemo, ndetse n'amafaranga wabikije.

Umugore uri ku kirahure avugana n'umuha serivisi, hejuru hari televiziyo igenewe kwereka abantu bicaye ku ntebe ziri hepfo ndetse umugore ahetse ishakoshi y'ubururu ategereje ko ahabwa serivise hari ahantu handitse kopedu limitedi.

Apurikasiyo igufasha kugira ngo ube wahembwa ndetse wishyura ndetse umanaginga n'amafaranga yawe mu buryo bukoroheye ndetse ukoresheje terefone yawe.

Igipapuro gituruka kuri banki cyereka umukiriya ko amafaranga yishyuye yabagezeho.

Inyandiko mpamo yemeza y'uko Emmanuel Nzafashanayo yamajije kudepoza amafaranga akoresheje beka yacu ndetse hateyeho na kashe y'umu agenti wa beka.

Inyandiko y'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro yanditswe igaragaza imisoro uburyo bwo kwishyurwamo n'imyenda y'imisoro abantu baba bafite n'uko bagomba kwishyura.

Ikigo K'imisoro n'amahoro mu Rwanda kikwereka amafaranga yo kwishyura ndetse n'igihe ugomba kuzayishyurira kugira ngo ubashe kuba waba umeze neza mu miturire yawe nta kibazo ufite.

Igipapuro cyo guturuka mu kigo gishinzwe imisoro nmahoro kikwemeza ko nta mwenda w'imisoro ubabamo n'igipapuro uhabwa n'icyo kigo kugira ngo wemeze neza ko nta mwenda urimo ikigo.

Imashini igaragaraza igura n'igurishwa ndetse n'ivunjisha ry'amafaranga mu bihugu bigiye bitandukanye aho ku mashini hagiye hariho Leta zunze ubumwe z'Amerika ndetse Abongereza, Abayapani, Singapole, Hongokongo n'abandi....

Amafaranga mirongo itanu ya banke sentarare di kongo, amafaranga ariho igishushanyo cy'ikibumbano, ndetse ariho n'igiturage gishushanyijeho hariho amafi.

Inote eshanu zitandukanye gusa zose z'amafaranga y'amahinde harimo inote y'ibihumbi bibiri by'amahinde ndetse na maganabiri n'iya mirongo itanu n'iyindi y'ibihumbi icumi.

Ishami ry'ibiro rishinzwe ivunjisha bifite icyapa hanze gisa n'ubururu cyandikishijweho amagambo asa n'umweru abaranga hariho na serivisi bakora ndetse n'uburyo wababonamo, hari umuryango usa n'umukara winjiramo ndetse n'imbere harimo intebe.

Ikigo gishinzwe kuvunja amafaranga gifite ibyapa byinshi bikiranga y'uko kiri ahongaho ku buryo buri muntu uwo ari we wese wahatambuka yahita amenya ko bahakorera. Ku ruhande hagiye hari moto zihaparitse, hari moto ya mbere iri ku ruhande rw'ibumoso, hari na moto y'indi iri ku ruhande rw'iburyo.

Imashini isa n'umukara iri mu bwoko bwa hecipi icometsemo umugozi inyuma, ndetse na purinta ifite ako bacaniraho gasa n'umutuku icometsemo umugozi inyuma, inyuma hari kamera isa n'umweru ireba ukoresha imashini kugira ngo yirinde amakosa mu byo akora.

Ikigo gishinzwe kuvunja amafaranga ndetse no kugurana amafaranga y'abanyamahanga, gikorera mu nyubako ifite ibirahure biriho ibishushanyo bibamamaza ndetse n'amakuru mashya ku byo bakora na serivisi nshya mo imbere harimo ibirahure bitandukanye.

Ibiro bivunjisha amafaranga ndetse bikanagurana, bifite ibirahure bibonerana harimo amamashini mu imbere hanze hariho ibyapa byamamaza ibyo bakora muri rusange.

Abanyamahanga bahagaze ku murongo baje kuvunjusha amafaranga, umwe yahetse igikapu gisa n'umukara yambaye n'amalinete yateye umugongo mugenzi we ufite amafaranga mu ntoki amurebera inyuma.

Icyapa cyamamaza ko aho hafi hakorera banki y'abaturage.

Ofisi y'ahabera igura n'igurishwa ndetse n'ivunjisha ry'amafaranga, hari ibyapa hanze byerekana ibyo bakora, serivisi batanga, ndetse hariho n'abantu mu mafoto berekana ibyo bakora, ndetse n'ibyo bagurisha.

Ikigo gishinzwe kugurana amafaranga, ibiro byaho, aho hari kiyosike yaho, hahagaze abantu batatu bafite ibikapu, bategereje guhabwa serivise y'ivunjisha ndetse no kugurana amafaranga.

Icyapa kerekana ko ku ruhande hakorera ikigo gishinzwe igura n'igurisha ry'amafaranga ndetse no kuvunjisha. Ndetse ni icyapa kiriho amafaranga ndetse kiriho n'akamenyetso karanga ko ari hirya gato.

Ikigo gishinzwe ivunjisha, gifite ibirahure hamanitseho ibishushanyo byamamaza serivisi bakora, mu rwego rwo kugira ngo umukiliya natambuka imbere y'ibiro byabo bakoreraho, abashe kuba yabona ibyo bakora ndetse abashe kuba yabagana.

Ibiro by'ahabera ivunjishiriza ry'amafaranga, hatatse utwapa twinshi, twerekana serivise batanga. Harimo izo kuba bakohereza amafaranga, igihugu icyo ari cyo cyose waba urimo, n'izindi zo kukuvunjishiriza.

Salo irimo televiziyo ndetse n'imitako itandukanye aho hejuru harimo amatara meza ndetse afasha uwicaye muri salo kuba yareba insakazamashusho yiwe neza.

Abacuruzi bacuruza ndetse bakanakora ibikoresho byo mu nzu harimo ama etajeri, harimo intebe, babicururiza ku muhanda aho hatambutse umuntu hari n'ipoto ndetse hakaba hari intebe, ama etajeri, utumeza, ububaho n'ibindi.

Intebe zikikije ameza ziri muri saramanje, intebe zicarwamo n'abanyamuryango bitegura kuba bafata amafunguro ya saa sita cyangwa se banafata amafunguro ya nijoro, bitegura kujya kuryama.

Intebe z'amadiva ziri hanze y'inzu y'ubucuruzi intebe zifite imyenda itandukanye, hari izitebe z'ubururu, intebe zifite imisego yumukara ndetse n'intebe zisa n'ivu n'intebe bigaragara ko zicuruzwa cyangwa se zinakodeshwa n'umucuruzi uzicuruza.

Intebe zisa na oranje ndetse n'izindi ntebe zisa n'umweru zifite ameza manini arimo umweru n'umuhondo ndetse n'utumeza dutoya twegereye imeza y'umweru nini natwo dutoya turimo umweru n'umuhondo.

Hoteri nziza ngari ifite ubwogero bugari ndetse n'ibiti na jalide, n'ahantu umukiliriya ashobora kuza akicara akanywa ga fanta mugihe yasoje koga.

Inzu nziza isa na hoteli ifite amatara meza yaka ku buryo nijoro irabagirana, ifite jalide nziza bigaragarira amaso ndetse ifite n'ubwogero hasi bwayo ku buryo ababukoresha biborohera.

Ubwogero buri hasi hirya ku ruhande rw'ibumoso ahari ibyicaro aho abantu bicara nyuma yo koga cyangwa se na mbere y'uko bajya mu mazi ndetse no ku rundi ruhande rw'iburyo ahantu abari kuriragisa cyangwa se kota akazuba baryama.

Inzu ifite uburiri bwiza bushasheho amashuka y'umweru, hanze kuri bariko hariho intebe ifite umusego usa n'umutuku ndetse ifite ibirahuri byiza ndetse n'amarido meza bigaragara ko ari inzu ya aparitema ikodeshwa.

Inzu y'amatafari ahiye, igeretse, isize ibara ryiza ndetse ifite amategura, hanze hari imitaka itwikiriye ubwicaro burimo intebe zitandukanye z'abantu bashobora kuba bahicaye barelakisa cyangwa bakora ibindi bikorwa bitandukanye.

Picene iri hanze y'inyubako ndetse hirya ya pisine hari intebe zicarwamo n'uvuye mumazi mugihe yota akazuba yitegura gusubira mazi cyangwa se aruhuka mu mutwe, hirya ya pisine hari ibiti byiza bisa n'icyatsi bifasha abari aho hafi kuba bakumva umuyaga mwiza.

Hoteri yitwa senti famiye igeretse yubatse mu buryo bwiza, ifite ubusitani bugari ndetse ifite n'umuhanda ufasha abaje kugira ngo babashe kwakirwa neza kandi bahagere amahoro.

Inyubako igeretse ku ruhande rwayo ifite pisine ndetse no ku rundi ruhande hari aho bicara, hari n'umutaka utwikira abahicaye bigaragara ko ari hoteli yakira abayigannye kugira ngo bahabwe serivisi nziza inoze.

Amavaze arimo ibiti, ndetse ari ku nzu igeretse isize ibara rijya gusa na oranje, ndetse bigararaga ko ri ahantu batanga serivise nziza , ushobora no gusohokera.

Icyumba k'inama cya hoteri harimo ameza ndetse n'intebe, ku meza hariho amazi n'amakayi.

Ibiro bya kompani y'ubwishingizi aho ni ku marembo aho wakirwa n'umukozi w'ikigo cy'ubwishingizi akakubaza icyo uje kureba akaba yagufasha kuba wahabwa serivisi muri icyo kigo.

Icyapa kiri ku muryango cyamamaza radiyanti umwishingizi, ndetse umuryango usa n'umukara bigaragara ko winjiye ariho radiyanti ikorera.

Ikigo cy'ubwishingizi cyitwa zayoni inshuwarensi bolokazi bafasha mu kwishingira ibintu byawe ibikorwa byawe ndetse ukazajya wishyura kugira ngo bakwishingire ibintu byawe igihe byagize ikibazo nabo bagufashe kukunganira.

Inzu isize irangi ry'umuhondo, hejuru yanditseho SONARWA, ndetse akaba ari inzu ishinzwe gutanga ubwishingizi ku bakiriya babo, ndetse mo imbere harimo intebe zisa n'umweru, harimo ibyapa byinshi biranga ndetse byerekana serivisi batanga.

Ikigo gishinzwe kwishingira abishinganishije ofisi yabo ifite ibirahure ndetse yubatse mu buryo bwa konoshi, ifite ama esikariye aho byorohera umuntu uvuye muri parikingi guhita azamuka muri ofise guhabwa serivisi ashaka.

Kampani y'ubwishingizi ifite icyapa hanze cyamamaza imikorere yabo ndetse hariho na nimero z'uburyo ushobora kubagana ndetse hakaba hariho na webusayite yabo cyangwa se urubuga ushobora gukoresha ubagana ukabona ibikorwa byabo bitandukanye bakora.

Ikigo gishinzwe kwishingira ibintu by'abantu gifite inyubako gikoreramo iriho ibirahure handitseho amagambo yamamaza ibyo bakora ndetse na serivisi batanga, mu imbere harimo intebe, harimo n'amezaza bakoreraho banatangiraho serivisi.

Ibyapa biri hanze bisa n'umweru kimwe cyanditseho ekwiti ikindi kiriho muwa, ni ibyapa byamamaza ko hari umwishingizi ushobora kukwishingira mubikorwa byawe ukora.

Inzu igeretse hejuru hari icyapa cya saniramu genero inshuwarensi. Ikigo gishinzwe ubwishingizi ndetse munsi haparitse imodoka ebyiri z'umukara ndetse hariho ibara ry'umuhondo handitseho kirikinga.

Ibiro by'ikigo cyishingira abaturage mu bizwi nko gutanga ubwishingizi ku bintu bitandukanye mu biro harimo abakozi, harimo ibitabo, harimo impapuro, harimo amakaramu ndetse ibiro bifunzwe n'ibirahure.

Urupapuro wuzuza rugufasha kugira ngo ube wabona inguzanyo uri gusaba muri banki ndetse ubashe kugira ngo uvuge amafaranga ukeneye ko baba baguha nayo wazabungukira cyangwa se n'ingwate wazatanga byose biba bikubiye mu byo wandika ahongaho wuzuza kuri urwo rupapuro.

Icyapa cyamamaza kiriho abagore babiri bafite akapa kanditseho open ndetse bari kwamamaza inguzanyo muri banki ya Equit ku buryo ukibona ashobora kwifuza kuba yafata inguzanyo akazishyura banki nyuma.

Icyapa gishushanyije cyerekana inguzanyo ndetse no kwishingira ikinyabiziga cyawe, handitseho "Tekana loan, ubwishingizi bwuzuye bw'imodoka yawe", hariho na nimero wahamagara ku mirongo yose.

Icyapa cya ayi endi emu cy'inguzanyo gishishikariza umumambure wayo kuba yajya muri ino serivise iyubake na ayi endi emu banke nide wemerewe inguzanyo. Akaba ari icyapa kiba cyashyizweho kugira ngo bamamaze y'uko hari layivu kuri radiyo.

Icyapa cya banki yamamaza inguzanyo yayo aho umugore n'umugabo bafite urufunguzo rw'inzu yabo nshya bubatse mu nguzanyo, babashishikariza gukoresha inguzanyo y'ino banki.

Icyapa gishushanyije, kiriho umukobwa uri kwitaba telefone, wambaye urunigi, yamamaza uburyo ki wabonamo inguzanyo bikoroheye, ndetse mu buryo bwiza, ku buryo imibereho yawe ishobora kuba myiza kurusha uko umeze uku, kandi inguzanyo yawe ikazishyurwa mu buryo buciye mu mucyo.

Icyapa cya banke nkuru y'abaturage, cyamamaza inguzanyo nshya umuturage ashobora gufata, kugirango abashe kwiyubakira cyangwa se kuba yakora izindi gahunda zimufasha mw'iterambere ryiwe.

Umukobwa wambaye umupira utukura yambaye itaburiya ya move afite imashini ya ibiyemu yiteguye gutanga ifatabuguzi kumukiriya we kugirango umukiriya amenye igiciro cyo kwishyura. Ucuruza ari gukorana n'umugabo wambaye agapira k'umuhondo.

Umugabo wambaye ishati y'amaboko magufi ku ruhande rwe hari umugore wambaye isengeri itukura b'abacuruzi bari gucuruza imboga harimo inoryi, karoti, pavuro n'inyanya n'ibishyimbo n'ibindi hari undi nawe wambaye umupira w'ubururu nawe wakojeje ibiganza bye mu nyanya bigaragara ko ari umucuruzi.

Ahantu ndeba rero hari udutebe twiza tw'icyatsi munsi urahabona harimo agacupa inyuma hicayeho abantu hasa naho hagiye kubera ikintu runaka nyine cyiga ku kibazo cyabayeho cyangwa bafite ibindi bagiye kuganiriza abantu bari buhitabire bahaje.

Mu isoko, aho abamama barimo bacuruza imbuto, ndetse mu byo bacuruje harimo n'imboga, harimo n'inyana, intoryi, karoti, pavuro, n'ibirungo byo mu isosi.

Urujya n'uruza rw'abantu ndetse n'ibinyabiziga mu isoko, aho abantu bagenda bashaka amaramuko n'imibereho, abacuruzi, abaguzi n'abandi batandukanye. Isoko ry’ubakishijwe n'amabati asa n'ubururu ndetse ku ruhande hari ferabeto zisa n'umutuku.

umugabo wambaye ikanzu w'umuyisiramu ndetse n'inkweto zifunguye afite ambaraje ari mu isoko ari guhaha hari abamama bambaye ibite nge bicaye hasi ndetse n'undi muyisiramukazi wateye umugongo kamera areba imbere.

Umukobwa wambaye igitambaro cy'umweru mu mutwe, wambaye ikote risa n'ubururu, uhetse agashakoshi ka shokora. Ari mw'isoko ry'imyenda, aho ari gutoranya umwenda yagura, ndetse hari n'abandi benshi barimo bashaka imyenda bagura. Iryo soko ririmo imyenda itandukanye cyane cyane ya medi ini Rwanda.

Isoko ririmo abacuruzi ndetse n'abagura benshi, bari gucuruza imbuto ziri mu bwoko bw'amaronji ndetse n'imyembe, umucuruzi afite agakoresho ka ibiyemu. Yiteguye gutanga fakitire ku muguzi umuguriye.

Abagore bicaye mu isoko bacuruza imbuto ndetse n'imboga, mu byo bacuruza harimo inyanya, ibitunguru, imyembe, intoryi ndetse n'ibindi byinshi.

Abagabo bari mu isoko, ahacuruzwa imitako ndetse n'ibikoresho byinshi bitandukanye, bya medi ini Rwanda, bari gutembera bashaka ibyo bahitamo, kugira ngo bagure, bya medi ini Rwanda.

Abagabo bane, batatu barahagaze, umwe aricaye, uwambaye ishati y'umweru afite agakapu k'umukara ndetse babiri muri bo bambaye amataburiya bigaragara ko bo biteguye akazi k'amaboko.

Akazu ka emutiyeni umukozi ashobora gukoreramo atanga serivisi zitandukanye nko kubitsa, kubikuza, gutanga amayinite n'izindi, hahagaze umusore ufite telefone ku gutwi wambaye agapira gasa n'ubururu ndetse n'ipantaro y'umukara.

Icyapa kibwira uwishyura amafaranga kuri fone y'uko yakoresha momo n'amazina y'uwo yishyuyeho akoresheje nimero ziri hasi arizo anyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri akanyenyeri umunani akanyenyeri rimwe akanyenyeri kode urwego.

Icyapa k'inyandiko igaragaza uburyo bwo kwishyuramo ukoresheje momopeyi ku biri furi ofu caje ko nta mafaranga n'amwe bagukata ukoresheje mayi emutiyene apu.

Kiyosike ya emutiyene ifite bafure hanze yayo zirangurura amajwi kugirango abakiriya bababshe kumva ibiri kubera kuri kiyosike ndetse hanze hari umusekirite ushinzwe umutekano kugirango habashe kuba umutekano usesuyo. Hari na tereviziyo mo indani ifasha abakiriya kubona serivisi emutiyeni yabazaniye.

Umugore ufite amvilope avuye guhaha ndetse yambaye ikanzu ijya gutukura ndetse abamukikije ni abakozi ba emutieni bambaye imipira isa n'umuhondo ariko ifite amakora asa n'ubururu yanditseho amagambo yamamaza ikigo bakorera.

Umusore wambaye umupira utukuye ahagaze ku kazu ka MTN gakoreramo umu agent wabo ndetse hari n'abandi bakiriya kurundi ruhande bategereje guhabwa serivise.

Akazu gasa n'umutuku ka eyeteli mani hahagaze abagabo babibir umwe yakoze mu ntoki umugore ufite imisatsi y'umukara tsiriri wambaye ishati ya rakosite irimo imirongo y'umuhondo, umweru ndetse n'ubururu yambaye ikoboye isa n'ubururu.

Inzu y'umuhondo ikoze mu byuma yicawemo imbere n'umukobwa uri gutanga serivisi za emutiyene, aho ari kwakira umukiriya w'umugabo wambaye ishati y'ubururu n'ipantaro isa n'umukara.

Umusore wambaye umupira w'umweru ndetse wambaye udukomo ku maboko, afite telefone, ari kwinjira muri apurikasiyo ya Emutiyene ndetse ahetse n'agakapu gasa n'umukara, yambaye ipantaro isa n'ubururu, ndetse ku ruhande rwe kari n'abandi bantu harimo n'uri kurya capati.

Abakozi ba emutiyeni batanga serivise kumarembo.

Inzu y'ibyuma bisa umuhondo, ikoreramo umu ejenti cyangwa se umukozi wa emutiyene, inzu izwi nka kiyosike, umukozi uyirimo afite imisatsi miremire, umugabo uyiri inyuma yambaye ishati y'icyatsi ndetse n'undi mugabo wo hirya yambaye ishati, umupira w'umuhondo.

Kiyosiki iri ku muhanda hari umukobwa wambaye umuhondo kiyosiki nayo irasa umuhondo ku ruhande rwe rw'iburyo, hari bafure iri kurangurura amajwi kugirango abari aho hafi bose babashe kumva ibiri kubera hano.

Urubuga rworohera urukoresha mugihe ahaha rwitwa AliExpress ushobora gusangaho amaterefone, amashakoshi, amakote, ama flash disk n'ibindi bigiye bitandukanye.

Umumotari wambaye kasike n'agapfukamunwa imbere ye hari moto isa n'ubururu iriho agatwaramizigo gatukura ka kefusi derivari inyuma gafunze n'ingufuri yiteguye gutwara umuzigo k'umukiriya.

Urubuga rw'Irembo rugaragaza serivise zinyuranye batanga harimo icyemezo cyuko uri ingaragu, serivise z'ubutane, kwemeza ko umuntu ari imfubyi n'ibindi byinshi n'urubuga rusa n'ubururu rwandikishije amagambo asa n'imikara ndetse rukoze mu buryo bwiza bwafasha urukoresha.

Abamotari batanu bicaye kuri moto zifite amabara atandukanye, batatu bicaye kuri moto zisa n'umutuku ndetse abandi babiri bicaye kuri moto zisa n'icyatsi, inyuma hari urukuta rw'igishitingi cyanditseho ampa sandi.

Inzu ya kadasitere iherereye i Kanombe mu mujyi wa Kigali, ni inzu igurishwa agera muri miliyoni ijana na cumi n'eshanu ikaba ari inzu nziza ifite byose bikenewe mu nzu kugira ngo inzu ibe ari inzu yakoreshwa n'umuntu w'umusirimu.

Inzu igeretse iherereye kibagabaga mu mujyi wa kigali, hanze hari imodoka ya corola. Ni inzu ifite irangi rikeye risa neza ndetse igeretse, ifite amadirishya afite ibirahuri byiza. Ni inzu ishobora kuguhagarara ibihumbi bibiri by'idolari buri kwezi uyikodesha hano mu mujyi wa Kigali.

Aparitoma igurishwa muri Kibagabaga mu mujyi wa Kigali, ibihumbi ijana na mirongo itatu na bitanu by'idolari, iyi nzu harimo ibyumba ndetse uburiri busashe buriho imisego y'umweru ndetse n'ibiringiti byiza bishyushya ndetse inzu ifite amatara meza.

Ikintu wagura muri miliyoni mirongo irindwi n'ebyiri zawe z'amanyarwanda hano i kigali waguramo iyo nzu ya kadasitarii ifite amabati atukuye ndetse ifite igipangu gisize ibara ryiza.

Inzu ushobora kuba wabona i Kigali ikodeshwa, imeze neza isa neza munsi ifitemo amakaro, ifite amarido, ifitemo ibintu byose, ifitemo n'intebe, mu Rwanda itaguhenze ku mafaranga make.

Inzu ifite amayesikariye ariho amakaro ndetse yubatse mu buryo bwa kadasitere, ifite amabati atukura ndetse isize ibara ry'umuhondo. Ni inzu miliyoni ijana na mirongo itanu zishobora kuba zagura hano muri Kigali.

Hano hari inzu miliyoni mirongo icyenda n'eshanu z'amanyarwanda, zishobora kuba yagura ni inzu ya kadasitere nziza ipavomye hasi muri parikingi ifite igipangu cyiza kibonerana, ndetse isakawe n'amabati asa n'umukara.

Hano hari icyo igihumbi n'ijana by'idorari ku kwezi wabona i Kigali, mu Rwanda. Ni inzu ifite icyumba cyiza, ndetse ubona ko hantu hahenze, ifite amarido agezweho ndetse anahenze, ndetse ubona ko ari icyumba cy'iterambere ry'iki gihe.

Uburiri buriho imisego ine yambaye imyenda y'umweru n'umukara, uburiri bushashe n'amarido meza mu nzu bavuga ko hari ibindi byumba bine ku Gisozi i Kigali bimeze bityo.

Inzu ya konoshi iherereye muri kigali Kanombe, ikodeshwa ifite ibyumba bitatu ndetse n'ubwogero bubiri, ikodeshwa ibihumbi magana atatu ku kwezi, ifite imiryango isa icyatsi.

Inzu ikodeshwa muri Kigali i Kanombe ifite ibyumba bine ndetse n'ubwogero butatu, ni inzu yubatse mu buryo bwa kadasitere isize amarangi y'umweru, ndetse n'amarangi y'ubururu bwerurutse kuruhande, ipavomye hasi muri parikingi yayo, ifasha buri muntu wese kuba yaba afiteho imibereho myiza muri yo.

Inzu ikodeshwa iri Kimironko mu mujyi wa Kigali aho ifite ibyumba bibiri n'ubwogero bubiri ikaba ifite salo, igikoni na parikingi ikodeshwa ibihumbi magana atatu bya buri kwezi ndetse hariho na nimero ya watsapu wavugisha nyirayo ni inzu yubatse neza.

Amazu akodeshwa muri Kigali Kibagabaga ibihumbi magana atandatu ku kwezi ni amazu yubatse neza uyarebye ubona ko igeretse ndetse ariko ntirarangira.

Inzu igurishwa yubatswe neza aho amabati yayo asize ndetse akaba afite imireko ifasha kuba yayobora amazi ndetse iragurishwa iherereye i Mayange ndetse ifite n'ibirahuri ku madirishya yayo ibirahuri byiza bikiri bishya.

Inzu nziza isize ibara risa nk'umutuku ndetse ifite akabariko keza kariho amakaro ndetse inatatse amavase arimo ibiti byiza na aparitoma iri ku gisozi irangiye byose harimo ibyumba bibiri n'ubwogero bubiri.

Inzu ikodeshwa iherereye muri kicukiro Kimironko iyizu igeretse iri mu gipangu igipangu gifite ibara ritukura ndetse n'ibara risa n'ivu iyo nzu ifite ibyumba bine ndetse n'ubwogero butatu ikaba ikodeshwa amafaranga ibihumbi magana atandatu ku kwezi.

Inzu ya etaje isize ibara ry'umweru ndetse n'umuhondo werurutse, ifite igipangu cyiza kiriho amatara. Ni inzu yubatse mu buryo bwiza nziza. Ni inzu ibihumbi bibiri by'idorari bishobora kuba byakodesha hano muri Kigali

Abantu benshi batandukanye bamwe baricaye abandi barahagaze umwe muri bo afite ibendera rifite amabara atatu atandukanye, harimo ibara ry'ubururu, ibara ry'umuhondo, n'ibara ry'icyatsi kibisi.

Inzu nziza igeretse inshuro ebyiri, ni inzu wasanga muri Kicukiro hano mu Rwanda muri kigali, ni inzu ifite amadirishya meza ndetse isize amarangi meza, ndetse ifite inzugi nziza ngari zacamo ibintu byinshi, ndetse ni inzu ishobora guhagarara ibihumbi igihumbi cy'idolari.

Inzu ifite ubwinyagamburiro buhagije aho hajya imodoka ebyiri ziparitse muri parikingi y'iyo nzu, inzu ikaba ikodeshwa ndetse ikaba yanagurishwa, ni inzu nziza ifite amatara kuri baliko meza ndetse ikaba ifite buri kimwe cyose cyagufasha mu mibereho yawe.

Supermarket ifite firigo zikonjesha ibinyobwa ndetse ikaba ifite n'ibindi bicuruzwa bitandukanye ndetse ifite n'ibirahure aho umukiriya ashobora kurebera hanze yabona ibirimo akagira, akagira ifemba ryo kwinjira ngo ahahe.

Inzu y'ubucuruzi igeretse irimo imiryango itandukanye, irimo abacuruzi batandukanye ndetse icuruza ibintu bitandukanye. Harimo imiryango icuruza imyenda ndetse harimo n'indi icuruza imyenda y'abana n'ibindi bitandukanye.

Abantu barimo batambuka mu isoko ubona ko harimo urujya n'uruza bose baje guhaha cyangwa se baje gucuruza. Aho batambuka hari amakaro asa n'umweru hejuru hari amatara amurika ku buryo babona ko ari ahantu heza ndetse ku rundi ruhande hari inzu zicuruza imyenda ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Iduka ririmo ibicuruzwa bitandukanye higanjemo amavuta, ayo mavuta ari mu kirahure, ikirahure aho umukiriya ashobora kujya atambuka ayabona kugira ngo habashe gukururwa n'ubwo bwiza abe yagura.

Supamaketi irimo ibicuruzwa bitandukanye, abantu barimo bagura, batambukamo, bahitamo icuruzwa bashaka, ndetse harimo ibicuruzwa by'ubwoko bwose haba ibinyobwa, ibiribwa, ibyo mu nzu, ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Umukobwa wambaye umupira utukuye, ipantaro y'umukara ari gushyira ibicuruzwa mu gitwara ibyo yahashye ndetse ari muri superi marishe aho arimo agura ibintu bitandukanye abishyiramo kugira ngo aze kuba yabitahana abikoreshe.

Abantu bari mu isoko bazenguruka bareba ko bashima ibicuruzwa birimo bigurishwa kugira ngo bagure bimwe muri byo babitahane mu rugo, harimo ibicuruzwa bya made ini Rwanda n'ibindi bitandukanye.

Umuntu ufashe utuntu dukoze muri mpande enye zingana ndetse dufite utumenyetso tugiye dutandukanye, hari akariho guteranya ndetse akariho umutima, akariho ikinini n'akariho igitonyanga n'akandi kariho abantu babiri bahagaze hamwe.

Umugabo wahawe igipapuro k'impamyabumenyi cyangwa se bushobozi abandi inyuma bakoma amashyi ndetse umuhaye icyo gipapuro yambaye amalinete yambaye n'ikote risa na shokora ndetse n'ishati na kaluvati.

Umuturage w'umugore ufite ikarita ebyiri za Mutuelle ndetse ku ikarita handitseho RSSB ndetse ni ubwisungane mu kwivuza bushobora kumufasha kuba yakivuza we nabe, yambaye igitenge ndetse n'umupira usa n'ivu ikarita ebyiri azifite mu ntoki.

Urugo y'ikigo gishinzwe imibereho myiza y'ejo hazaza, binyuze mu kwizigama bafite intego igira iti longe tamu seviingi shikeme.

Abakozi ba RSSB bari gutanga serivise bicaye ku ntebe zisa n'umukara ndetse bafite impapuro mu ntoki zabo, imbere hari imashini cyangwa se mudasobwa ndetse hari abaje kwakira serivise nabo bicaye ku ntebe zisa n'umukara ariko bari inyuma y'imeza y'umukozi wa RSSB.

Icyapa cyamamaza ara esesibi cyanditseho Rwanda sosho sekiriti bodi ku isanganyamatsiko igira iti :'' Reba imisanzu yawe muri ara esesibi.'' Ni icyapa gisa n'ubururu gifite rogo isa umweru ariko amagambo y'insanganyamatsiko asa n'umweru.

Abatanga serivisi harimo umugore w'inzobe ndetse n'umugore w'igikara bambaye udupfukamunwa ndetse umugore w'inzobe yambaye ikote ry'umukara, ndetse uw'igikara yambaye ishati y'ubururu, imbere yabo hari imashini ndetse n'impapuro ziri kubafasha gutanga serivisi, ndetse imbere hari uwiteguye kwakira serivisi umwe n'abandi bicaye ku ruhande.

Logo ya mituweri ubwisungane mu kwivuza aho iyi ari porogarame ya ara esisibi, aho ifasha buri muturarwanda wese kuba yabona serivisi nziza mu kwivuza bitamugoye kandi bikamufasha kuba atayitakazaho amafaranga menshi.

Icyapa cy'ejo heza kikwereka ko ukwiye guteganyiriza ejo hazaza, ku bufatanye na ara esesibi kugira ngo ubuzima bwawe ubwiteho ejo hazaza uzabe umeze neza; kabone n'ubwo ibintu byaba byaragenze nabi ariko wariteganyirije.

Ikarita y'ubwisungane mu kwivuza, ifasha umunyarwanda uyifite kugira ngo ahabwe serivise zo mu buvuzi, abashe kwivuza ndetse n'abe, kugira ngo agire ubuzima buzira umuze.

Umukobwa wambaye amarinete, wambaye agapira k'umweru ndetse n'ikote risa n'ubururu ry'ikoboyi, ufite imisatsi usutse, ari guhaha yambaye ishashi ku kuboko, ari guhaha ibinyobwa ashyira mu cyuma kibika ibintu yahisemo muri Supermarket.

Supamaketi icuruza ibiribwa ndetse n'ibinyobwa, nziza, hejuru hari kamera ndetse n'amatara amurika ku buryo ibicuruzwa bigaragarira ubigura, ndetse kuri etajeri hagiye hariho udupapuro tugaragaza ibiciro n'ubwoko bw'ibyo ukeneye.

Sawa siti irimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, harimo; ibikoresho by'isuku mu rugo ndetse n'ibiribwa ku ruhande. Hasi hari amakaro k'uburyo uhinjiye abona ko ari ahantu hasa neza ndetse n'amatara menshi.

Supamaketi irimo ibicuruzwa bitandukanye harimo ibiribwa ndetse n'ibinyobwa, hasi harimo amakaro afasha uhatambuka kubona ari ahantu heza ndetse haka amatara menshi ku buryo ibicuruzwa bibona urumuri ku buryo ubibona yifuza kuba yabigura.

Supamaketi icuruza ibiryohereye harimo amabiswi amashokora amata ubunyobwa n'ibindi bigiye bitandukanye. Hasi hari amakaro agaragara neza ku buryo umukiriya uhinjiye abona ari ahantu hafite isuku heza.

Umukiriya uri muri supamaketi uri guhaha afite igikoresho k'igare gipakira ibyo yahisemo ndetse harimo bimwe yagiye ahitamo harimo imboga, n'imbuto ndetse n'ibindi bitandukanye.

Umugabo ufite imisatsi uhetse igikapu, wambaye ishati, yambaye na marinete, yambaye n'isaha, afite telefone mu ntoki ze, ndetse hari n'umukozi uri gutanga serivisi, ufite agakoresho ka ibm.